Umwana w'umunyeshuri wo mu wa mbere w'amashuri abanza wambaye ishati y'umukara ari kwandika ku kibaho ari kwiga kwandika inyuguti zitandukanye zigize ururimi rw'ikinyarwanda, kugira abone uko azimuka ajye mu mwaka wa kabiri.

Ku bigo byose byigishirizwaho abana biga amashuri y'inshuke, haba hagomba kuba aho bidagadurira by'umwihariko hashyirwa ibyicundo bibafasha mu masaha yo gukina, yo gufata akaruhuko gato muri make.

Ku ishuri ryo mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye bigaragaza ibice by'umubiri harimo ukuboko, ukuguru, igihimba, umutwe no mu maso.

Impamvu abafundi bubaka inzu bagashyiraho urubaraza, biba ari ukugira ngo amazi atazashoka akaba yakwinjira mu rukuta, dore ko iyo yinjiyemo rusenyuka ku buryo bworoshye.

Hamwe mu higirwa n'abana biga mu kiburamwaka, hagomba kuba hagaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye, byiganjemo iby'amabara ndetse n'ibikoresho bituma ibyo biga babasha kubibona mu buryo bugaragara.

Hamwe mu hubatswe inyubako zitandukanye zigeretse, hagaragara ingaruka zo kuba harakoreshejwe ibikoresho bidafite ubuziranenge, harimo kuba iyo zimaze kubakwa zisaduka, bikaba byateza impanuka abazibamo n'imiryango yose muri rusange.

Rimwe mu ishuri ryagenewe kwigwamo abanyeshuri bo mu mashuri abanza, ryubatse mu buryo bwa kijyambere rigeretse, rifite amarangi atandukanye harimo ubururu, umweru, ikigina, imbere yaryo hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Bamwe mu babyeyi b'abana bavuga ko kwigisha abana hakoreshejwe ibibafasha bigaragara, bituma babasha kumenya ibyo biga, kandi bakanabizirikana kuruta kubabwira ibintu biri mu magambo gusa, bitari mu buryo bw'amashusho.

Inyubako y'irerero yubatse ahantu hirengeye cyane, ibasha gutuma abana babasha gusobanukirwa neza n'ibidukikije kuko iba iri ahantu bitegeye babasha kubona, ibiri mu isanzure ndetse n'ibri ahabakikije hose.

Umwe mu banyeshuri wahize abandi mu kuvuga neza ururimi rw'icyongereza, arishimira igikombe yahawe kuko kizamufasha kumutera imbaraga no mu marushanwa azaza, akabasha guhatana ndetse akabasha gutwara n'ibindi bikombe byinshi.

Abanyeshuri bateraniye ku kigo cy'amashuri bane, bambaye impuzankano ebyiri zitandukanye, abahungu bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, naho abakobwa bambaye amashati y'umweru n'amajipo ya kaki barimo baraganira bahuje urugwiro.

Ibiro by'ishuri rimwe rya kaminuza, ryubakishijwe inzugi ngari zifite amadirishya arimo ibirahuri bibonerana ku buryo umuntu uhanyuze abasha kwibonamo ndetse akaba yakemura ikibazo yaba afite ku mubiri.

Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye bavuga ko bishimiye ireme ry'uburezi bahabwa by'umwihariko iyo bageze mu masomo mbonezamubano kuko abafasha kumenya uko bazitwara ndetse n'uko bazabaho mu bihe biri imbere bageze hanze y'ishuri.

Rimwe mu mashuri yigisha ubumenyingiro muri kaminuza, afite inzugi zifite amabara y'icyatsi ndetse n'ibirahure bibonerana, zikaba zarashyizweho ibimenyetso birimo imibare izigaragaza kugira ngo bibashe kumenyekana neza.